Abagabo babiri bacuruza amayinite umwe yicaye inyuma n'ijire isa umutuku undi yicaye mu kazu.

Umushoferi wa moto uhetse imizigo iri mu mufuka, ugeze aho abanyamaguru bambukira, hari n'icyapa kigaragaza ko ariho abanyamaguru bambukira.